Umudamu wambaye ikanzu y'umukara irimo amabara y'umweru n'umuhondo ateruye umwana wambaye agapira k'umweru harimo utundi tw'umukara, kambaye n'agapantaro k'ubururu, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, iruhande rwe hari abandi bantu babiri.

Abamama babiri umwe wambaye igitenge kirimo ibara ry'icyatsi n'umukara, undi yambaye ikirimo ibara ry'ingwe bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara barimo barapakurura umufuka.

Abantu benshi bicaye muri pasparume ku ntebe zifite ibara ry'umweru, iruhande rw'imodoka y'ikamyo ndende isize ibara ry'umweru n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umukecuru, umusaza, umupapa n'umumama, abana bicaye barimo guseka, inyuma yabo hari igiti, bicaye mu ruganiriro ku ntebe isa ubururu.

Umukecuru ukuze cyane wambaye igipfuko cy'umweru, yambaye igitenge cy'umutuku n'umupira w'amaboko maremare.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umweru rivanze n'irindi ry'ivu, imbere yayo hari icyapa kirimo ibara ry'umutuku n'umweru byanditsemo amagambo, muri ibyo cyapa hari amapave imbere y'inzu.

Icyapa kiri hagati mu isangano y'inzira, hagati y'ibiti birebire, iruhande rw'igipangu cyubakishije amatafari ahiye, iruhande rw'umucanga, mu nzira y'ibitaka.

Inzu y'ubucuruzi irimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye hagati y'ayandi mazu y'ubucuruzi imbere yazo hari imodoka iparitse ku mapave.

Ababyeyi bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye bari mu murima munini uhinzemo imboga barimo baragenda basarura.